Abana batatu bishimye, bari koga ahantu ku mugezi, imbere yabo hari urukuta ruriho uwo mugezi, inyuma yabo hari igiti kigizwe n'amashami, amababi, hakurya hari urugo rw'ibizitiro rugizwe n'ibiti.

Abantu bahagaze ahantu runaka bose bafite udukombe, bamwe muri bo bari kunywa, abandi babiri bafite udukombe ariko ntabwo bari kunywa, imbere yabo hari umuntu mukuru w'igitsina gore, wambaye umupira w'umukara afite na we agakombe ari kuvoma ku kigega cy'umukara, inyuma ye hari ahantu hasakajwe amabati, hanakikijwe amabati, inyuma y'amabati hari ahantu hari intoki, ibiti.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abana abagabo bari ahantu runaka bambaye imyenda itandukanye, nyuma yabo hari inzu itagaragaye neza, mbere ya ba bantu hari umugezi bavomaho amazi, uriho ibuni iri kujyamo amazi, iyo buni n'umuhondo, hirya y'iyo buni hari akandi kabuni gato.

Abaganga batatu bari mucyumba bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hateretse ameza, ariho aho bandika mu makayi bafite amakaramu bamwe muri bo babiri n'amafishi bari kugenda bifashishirizaho hakurya yabo hari urukuta, imbere y'urwo rukuta hari ahantu hateretse,

Abantu bari mu cyumba b'ingeri gitandukanye, bamwe ni abaganga, abandi ni abari guhabwa urukingo, bambaye udupfukamunwa bose bamwe mbaye utw'mweruru abandi tw'umukara, mu cyumba barimo nyuma hari urukuta rw'amatafari, imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abakobwa, abahungu, abasore, abagabo, bamwe muri bo bambaye amataburiya y'umweru, abandi bambaye amashati meza, amakanzu meza ku bakobwa, inyuma yabo hari icyapa gifite ibyanditseho Nyabageni, hirya hari inzu zigizwe n'amarange y'umweru, amadirisha.

Abana b'abanyeshuri bambaye iniforume abakobwa, abahungu, bari ahantu hari imigezi, bamwe muri bo bari kuvoma abandi bari gukaraba, inyuma yabo hari ibiti, inyuma y'ibyo biti hari inzu igizwe n'amabati.

Umwana wicaye ahantu ku ntebe, yambaye ishati y'umweru, yicaye ku ntebe y'umuhondo, inyuma ye hari izindi ntebe n'abandi bana, harimo n'umuntu wambaye igitenge, umwana afite biswi mu kanwa, uwo twahereyeho.

Abantu babiri bari mu cyumba: umwe yambaye umupira w'umweru, undi ni umuganga ari kumusuzuma, umwe ni umwirabura, undi ni umuzungu, inyuma yaho hari urukuta rw'amatafari, icyumba barimo harimo inkuta zigizwe n'irangi ry'umweru, harimo n'intebe z'umukara, bose bafite utuntu tw'udukoresho.

Abantu b'ingeri zitandukanye bahagaze ahantu, bambaye neza bamwe bambaye imyeru, abandi bambaye inkweto nziza z'umukara, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho hehe n'igwingira. Hirya inyuma yabo hari imodoka igizwe n'irangi ry'umweru amapine y'umukara, aho bari hejuru yaho, hari ahantu hasakaye.

Abantu barenze umwe, bahetse ibikapu, bose bambaye inkweto z'umukara, imbere yabo hari ishoka ry'amazi amanuka ava mu rutare, hirya yabo hari ahantu hari ibiti bigizwe n'amashami, amababi, hirya yabo na none hari ahantu hari amabuye, amato, amanini...